Abagabo batatu bahagaze imbere y'inzu ifunguye umuryango, babiri bikoze mu mifuka.

Abantu benshi bicaye mu murima urimo ibyatsi. Harimo abicaye ku ntebe y'urubaho, abandi barahagaze, hirya yabo hariho ishyamba, hirya cyane hariho inzu.

Intebe n'ameza, intebe begamira bicaye. Hari umuntu uri hagati yazo uhagaze.

Akayira gashashemo amapave kerekeza ku mabendera abiri, hari imbuga irimo pasiparumu hirya hariho amazu.

Umuhungu uhagaze imbere y'inzu, amadirishya amwe imbere harimo uducupa twimiti, uwo musore yifashe mu mifuka ahagaze ku makaro hirya hariho intebe yitabureti.

Amashuri yubatse ahantu hagiye hazamutse, inyuma y'amashuri hari ibiti.

Abagabo bane bafashe mu mifuka, umwe yambaye umwenda w'akazi, bari imbere y'ishuri ryubakishije amatafari ya ruriba,

Abanyeshuri bari gukoresha imashini, bambaye udupfukamunwa, umugabo ahagaze hejuru y'umunyeshuri, ari kureba ibyo ari gukora, hari n'intebe nyinshi.

Abadamu benshi bahagaze imbere y'inzu, bafite impapuro, abandi bamanitse amaboko, bari gupepera.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo biga biyigisha, inyuma y'ishuri nta kintu gihari bo barimo hagati mu ishuri.

Umugabo uri gukata. Ari gukatisha siyameto. Imbere ye hariho abagore babiri bafatirije ku meza.

Umugabo wamabaye isarubeti y'ubururu uri kubaza, ufashe iranda, ayirambitse ku rubaho, ari kubariza ku meza y'ababaji yabigenewe.

Abana b'abanyeshuri bambaye iniforume y'ishuri umweru n'umukara. Bari imbere y'ishuri ryabo rigeretse.

Abana b'abanyeshuri bakikije ameza, inyuma yabo hariho ishuri n'ururabo ruteye imbere y'ishuri.

Abantu benshi bambaye iniforume y'imyenda y'akazi, hariho imashini harimo n'umuntu umwe utambaye iniforume y'akazi, n'ameza ateretse hirya y'iyo mashini.

Umugore wambaye amadarubindi, yambaye itaburiya na ga mu ntoki, ari kureba ibyuma by'imashini abandi bahagaze inyuma ye.

Abasore bambaye amasarubiti, bakikije imodoka, bari gukanika, bamwe bari kuyitera ijeke.

Ibyuma bakoresha bari gukanika bimanitse ahantu, na ga bambara bari gukanika cyangwa kotsa ibyuma, bari kubisudira.

Ahantu heza hasashe isima. Hasi basizeho amabara meza. Hirya yaho ku muhanda hariho ibiti byiza.

Abantu benshi bambaye udupfukamunwa bari kwandika n'ikaramu, bicaye ku ntebe n'ameza bari kwandikiraho.

Abana b'abakobwa b'inkumi bari kwiga imashini, bicaye ahantu hagari, imbere yabo hari ameza ariho imashini icyarahani.